Ikigo gishinzwe gutanga imiti, aho gitanga imiti yifashishwa mu kurinda ibimera cyane cyane ibiribwa, kurwanya udukoko ndetse n'izindi ndwara zibasira ibiribwa kugira ngo bibashe gukura bifite ubuzima bwiza maze bitange umusaruro.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye, haba umwayi cyangwa n'ibindi bikoresho byifashishwa mu kuvura ibihingwa ndetse n'indi miti yifashishwa mu gutera ibihingwa kugira ngo ibihingwa bibashe kugira ubuzima bwiza kandi bikure neza.

Imiti itandukanye yifashishwa mu kuba bashyira ku bihingwa kugira ngo bibe byayirinda indwara zitandukanye, ni byiza ko dukoresha imiti yabugenewe kugira ngo tubashe kuvura ibimera byacu maze bibashe kwera neza bitange umusaruro.

Abantu ubona ko bagiye gutera imbuto, bari gukoresha ifumbire y'imborera ndetse n'ifumbire y'imvaruganda kugira ngo babashe gutera imbuto zabo kandi zizabashe kwera neza. Ni byiza ko dukoresha ifumbire mvaruganda ndetse n'iy'imboreragihe tugiye gutera imyaka yacu kugira ngo tubone umusaruro.

Icyumba ubona ko gitangirwamo imiti itandukanye, haba ari imiti y'amatungo ndetse n'imiti y'ibihingwa kugira ngo bibashe kwitabwaho, maze ibihingwa bifite udukoko cyangwa bidakura neza cyangwa imvaruganda bibashe kubihabwa cyangwa amatungo arwaye ahabwa imiti ndetse n'ayafasha kuba yakura neza.

Imiti yifashishwa mu buhinzi, aho iterwa ibihingwa bitandukanye kugira ngo bibe byarwanya udukoko dukunze kwibasira ibihingwa, ni byiza ko dukoresha ino miti ariko tukayikoresha neza, kuko uyikoresheje nabi yakwangiza ibimera yo ubwayo.

Igihingwa cy'ubunyobwa kirimo intungamubiri zitandukanye, aho cyifashishwa mu gihe bakoramo ibiryo harimo nk'imboga ndetse n'ibindi biryo bitandukanye, kikaba kigira akamaro ku bijyanye no kuvura imvune ndetse n'izindi ntungamubiri zifasha umubiri.

Abantu aho bari gushyira ifumbire mvaruganda ku bigori kugira ngo bibashe gukura neza, kandi bigire imbaraga n'imbaduko mu gukura vuba maze bitange umusaruro mwiza kandi mwinshi.

Ahantu ubona hateguye neza, impande yaho hari ifumbire, ubona ko hazaterwa ibihingwa bitandukanye, ni byiza ko dutegura ahantu neza tugakoresha ifumbire y'imborera ariko tukibuka n'imvaruganda, kugira ngo ibihingwa dutera bizabashe gukura neza kandi bitange umusaruro.

Abahinzi ubona bari guhinga mu murima, aho bari gutegura umurima neza kugira ngo bateremo ibihingwa kugira ngo bizabashe kwera neza, ni byiza ko dutegura umurima neza kandi tuwitaho kugira ngo ibyo dushyizemo bizabashe kwera neza

Imiti itandukanye yifashishwa mu gutera ibimera, cyane cyane ibiribwa igihe byibasiwe n'udukoko dushobora kubyangiza bigatuma bidakura neza, ni byiza ko twita ku bihingwa byacu tubibungabunga uko bikwiye, kandi dukoresha umuti wabugenewe kandi neza.

Igihingwa cy'inyanya ni kimwe mu bihingwa bikungahaye ku ntungamubiri zitandukanye, aho cyifashishwa igihe umuntu agiye guteka, bityo bikaba byiza kukibungabunga tugitera umuti igihe kikiri mu butaka, kugira ngo kibashe gukura gifite ubuzima bwiza.

Abantu batandukanye, aho bari gushyira ifumbire mvaruganda ku bigori, kugira ngo bibashe gukura neza kandi bikure bifite imbaraga, ni byiza ko ibigori bishyirwaho ifumbire yo kubagara, kugirango bibashe gukura bifite igikuriro cyiza.

Umuntu ari mu mbuto ndetse ari gutera umuti imbuto ze, ni byiza ko twita ku mbuto kugira ngo tubashe kurwanya indwara zishobora gufata imbuto harimo nk'udukoko, bityo tubashe kubona umusaruro mwiza.

Ifumbire mvaruganda ni imwe mu ifumbire iyo yashyizwe ku bimera bituma ikimera gikura neza kandi kikongera umusaruro, ni byiza ko dukoresha ifumbire mvaruganda kuko ituma umusaruro wiyongera w'ibimera kandi bigakura vuba.

Urutoki ni kimwe mu bihingwa bifite akamaro kanini kuko rutanga ibitoki, imineke ndetse hakaba havamo n'inzoga, ni byiza ko twita kuri uru rutoki turuha ifumbire ihagije maze tunarusasira kugira ngo dukomeze kubona umusaruro.

Abantu ubona ko bari gutwara ifumbire bayijyana mu mirima aho bahinze kugira ngo babashe gutera ibintu bateza ifumbire y'imborera, ni byiza ko bateza ifumbire ihagije ariko bakibuka n'ifumbire mvaruganda kuko bigendana kugira ngo ibihingwa bibashe kwera neza.

Imiti itandukanye yifashishwa mu gihe cyo gushyira ku bihingwa igihe byahuye n'ibibazo harimo nk'uburwayi ndetse n'udukoko dufata ku bihingwa, ni byiza ko dukoresha ino miti neza kandi tugakoresha iyabugenewe.

Imiti itandukanye harimo imiti y'ibihingwa ndetse n'iy'amatungo, aho ari byiza kwita ku matungo tuyaha imiti haba ibinini igihe atari gukura neza, ndetse n'ibimera cyangwa ibihingwa bikabasha kwitabwaho bihabwa imiti.

Imiti itandukanye yifashishwa mu gushyira ku mbuto igihe ziri mu butaka kugira ngo zibashe gukura neza zirwanya ubukoko ndetse n'izindi ndwara, ni byiza ko dukoresha ino miti neza kugira ngo dukomeze kubona umusaruro.

Ahantu bacururiza imiti itandukanye haba iy'amatungo cyangwa imiti ishyirwa ku bihingwa, kugira bibashe gukura neza ndetse n'imiti ihabwa amatungo igihe arwaye cyangwa amatungo atarya neza kugira ngo abashe gukura neza.

Icyumba kirimo urusobe rw'imiti itandukanye yifashishwa igihe turi kwita ku bimera ndetse n'ibindi biribwa bitandukanye, aho hari iyica udukoko ndetse ikanatuma ibimera bikura neza cyane cyane ibiribwa, ni byiza ko dukoresha ino miti ariko tukayikoresha mu rugero.

Imbuto z'urutoki ubona ko zifashishwa mu kuzitera kugira ngo ahantu habe haboneka urutoki, ni byiza ko dutera insina kuko ari ingirakamaro mu buzima bwacu ziduha ibitoki, imineke ndetse hamwe hakavamo n'inzoga.

Avoka ni kimwe mu rubuto rufite akamaro ku buzima bwacu bwa buri munsi, aho kiba gifite intungamubiri kandi ikaba irinda indwara zitandukanye, ni byiza ko tubungabunga izi mbuto kuko ari ingirakamaro ku buzima bwacu bityo tugira ubuzima buzira umuze.

Urusobe rw'imbuto zitandukanye zifashishwa mu guteka ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye aho hakorwamo ibindi biribwa bitandukanye, ni byiza ko twita kuri izi mbuto kugira ngo tubashe kugira ubuzima bwiza.

Gutunganya ubutaka ni byiza igihe cyose umuntu agiye guhinga kugira ngo ibyo ateye bizabashe kwera neza. Ni byiza ko dutunganya ahantu tugiye guhinga ibihingwa bitandukanye kugira ngo bizakure neza kandi bibashe gutanga umusaruro.

Ababyeyi ubona ko bahawe imbuto za avoka, kugira ngo bazitere babashe kuzitera neza, maze zizakure babone avoka zo kurya, kuko avoka ari ingirakamaro ku buzima bwacu, ifite intungamubiri kandi igiti cyayo kikaba gitanga umwuka duhumeka.

Ni byiza ko duhinga kandi tugahinga dukurikije uko bikwiye, kugira ngo dushobore kweza umusaruro umeze neza, kandi tugakurikiza amabwiriza agenga ubuhinzi, aho dushobora guhinga dukura amazi mu murima igihe yabaye menshi, kandi tugaca mu buryo amazi azabona aho ahita.

Inyanya ni igihingwa kiza cyane, kuko iyo kitaweho cyera neza ku buryo gishobora gutanga umusaruro ushimishije. Biba ngombwa ko giterwa umuti kenshi cyane kugira ngo habe haririndwa ko cyahura n'indwara zitandukanye. Ni byiza ko twita kuyanya kugira ngo tubashe kubona umusaruro mwiza.

Ahantu ubona ko hari hatewe amashu ariko atigeze yitabwaho, kubera ko hatigeze ahabwa ifumbire cyangwa abagarwe nk'uko byari byarateganyijwe, ni yo mpamvu nta musaruro wabonetse. Ni byiza ko twita ku bimera kandi tukita no ku mboga igihe twaziteye ahantu tuzisukurira.

Imiyenzi ni ibiti bikunze kuba biri hagati y'imbibi z'abantu aho byifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye gakondo kandi ni ingirakamaro mu kubungabunga ibidukikije. Ni ngombwa ko tuyibungabunga.

Amashu ni amwe mu mboga rwatsi, aho akungahayeho kurinda amaso, ndetse anifashishwa mu kurya igihe yatetswe, maze akaba afite intungamubiri zitandukanye, ni byiza ko tubungabunga izi mbuto cyangwa imboga rwatsi, kugira ngo tubashe kugira ubuzima bwiza.

Urutoki ubona rumeze neza rurimo insina zitandukanye ariko za kinyarwanda, ni byiza ko urutoki rubamo n'insina za kizungu kuko ari zo zitanga umusaruro uhagije bityo bigatuma umuntu abasha kwiteza imbere.

Avoka y'imbangurirano aho zikiri aho zahumbikiwe zitarimurwa ngo zijye guterwa ahandi, ni byiza ko avoka y'imbangurirano yitabwaho kuko ari ivoka nziza cyane kuko yera vuba ugereranyije n'izindi avoka kandi ikera itanga umusaruro mwinshi cyane.

Ibihingwa ubona ko bitameze neza byabuze ifumbire, ni ngombwa ko hagombye gukoreshwa n'ifumbire mvaruganda igihe ibihingwa bitari gukura neza kugira ngo bikomeze bikure neza kandi bitange umusaruro.

Ahantu hari ibihingwa bitandukanye, hari imyumbati ndetse hari n'ibigori ariko byasaruwe, ariko hahinzwe ibindi bintu kugira ngo bibashe gusimbura ibyari birimo ndetse hari n'ibishyimbo, ni byiza ko twita ku butaka igihe cyose twabuhinze tububagara kugira ngo bubashe gutanga umusaruro.

Imbuto y'ipapayi ni imwe mu mbuto nziza cyane kandi zifite ingirakamaro ku buzima bwacu bwa buri munsi, ni byiza ko dutera ipapayi kandi tukayitaho uko bikwiye kugira ngo tubashe kubona umusaruro mwiza kandi mwinshi wayo.

Ibigori kugira ngo bimere neza, ni ngombwa ko bihabwa ifumbire ihagije y'imborera cyangwa imvaruganda kugira ngo bigire umusaruro mwiza kandi binakorerwe isuku bibagarwa kugira ngo bigende neza bikure neza.

Urutoki ubona rutewe neza, aho hatewe hakurikije metero zipimye neza kandi ruterwa neza. Ni byiza ko rwitabwaho maze insina zikabasha gukura zisanzuye maze hakaboneka umusaruro.

Ibirayi ni ibihingwa ngengabukungu aho bitera imbaraga kandi bikifashishwa cyane mu gukora ibiryo bitandukanye, ni byiza ko twita ku birarayi tubigirira isuku kandi tubihaye ifumbire ihagije ndetse no kubyitaho.

Ikawa ni igihingwa ngengabukungu, aho gitanga umusaruro ushimishije kandi kigafasha buri umwe wese mu iterambere rye, igihe yitaweho neza isasirwa maze igahabwa ifumbire ihagije.

Inturusu ubona ko zahumbitswe ahantu hamwe kandi zimeze neza kugira ngo zizabashe kwimurwa zijyanwe guterwa ahantu, bityo bifashe mu buryo bwo gutera amashyamba kuko ari ingenzi avamo ibikorwa bitandukanye kandi akaba anayungurura umwuka duhumeka.

Ibirayi ni ibihingwa ngengabukungu, aho bifasha cyane mu gutanga umusaruro hakabonekamo amafaranga igihe byagurishijwe, kandi ni ingirakamaro kuko bigira intungamubiri nko kongera imbaraga ndetse bigafasha umubiri cyane mu kugira imbaraga, ni byiza ko twita ku birayi, kandi dukomeza kubifumbira neza kugira ngo byere.

Umuti wabugenewe uhabwa inka ndetse n'amatungo magufi, ukaba urinda indwara zitandukanye, haba harimo indwara z'inzoka ndetse n'izindi ndwara; ni byiza ko twita ku nka yacu n'amatungo yacu, kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Inkwavu ni kimwe mu matungo magufi meza kandi agira akamaro ku buzima bwacu kuko atanga inyama cyangwa amafaranga, ni byiza ko twororera inkwavu ahantu heza kandi tukazirinda umwanda kuko zishobora kurwara indwara zitandukanye harimo nk'uburenge.

Inka nziza cyane aho iri kunywa amazi ahantu heza habugenewe, ni byiza ko twita ku nka zacu tuzigirira isuku kandi tuziha ibiryo bifite ubuziranenge kugira ngo zibashe kugira ubuzima bwiza, maze natwe tubone inyungu bitewe no kuba zagize ubuzima bwiza.

Umuti wifashishwa mu guhabwa amatungo igihe yagize ikibazo cy'uburwayi, ni byiza ko duha amatungo imiti yabugenewe kandi tukayarinda indwara, tuyakurikirana uko bikwiye buri munsi imikurire yayo maze akomeze agire ubuzima bwiza natwe tubone inyungu.

inyoni ifite amabara atandukanye ubona ko ari inyoni nziza cyane ikunze kuba mu ishyamba. Ni byiza ko izi nyoni tuzibungabunga kuko zifite agaciro kanini ku gihugu ndetse no ku bidukikije muri rusange

Umuti wongerera vitamine inka igihe itari kurya neza, aho biba byiza kuwuha inka igihe yananutse cyane, biba byiza kwita ku nka tuziha imiti ihagije kugira ngo zibashe gukura neza.

Umuti wifashishwa cyane ku bihingwa igihe byibasiwe n'udukoko ndetse n'izindi ndwara zitandukanye, ni byiza ko dutera uyu muti ariko tugakurikiza amabwiriza kuko ushobora guterwa nabi bityo ukaba wakwangiza ibimera.

Amata akomoka ku nka aho inka iba ifite umukamo, ni byiza ko twita ku nka tuyiha ibyatsi bihagije kandi byiza kugira ngo ibashe kubona umukamo uhagije natwe tubashe kugira ubuzima bwiza dukoresha ya mata yavuye mu nka.

Imiti itandukanye yifashishwa mu gutera ibihingwa bitandukanye kugira ngo bibashe kuba byakura neza. Ni byiza ko dukoresha iyi miti kandi tukayikoresha neza kugira ngo itangiza ibihingwa.

Abantu aho bafunze neza ibihingwa bamaze gusarura kugira ngo babe babijyana ku isoko. Ni byiza ko duhinga ariko tukanasagurira n'amasoko kugira ngo tubashe kwiteza imbere binyuze mu buhinzi.

Igihingwa cy'umwumbati ni kimwe mu bihingwa byiza kandi bifite umumaro ku buzima bwacu aho bitera imbaraga, ni byiza ko byitabwaho kandi igasarurwa igihe iba yeze kugira ngo ikomeze kugira umumaro ku buzima bwacu

Abantu bari gutunganya ubutaka, aho bari guhinga kugira ngo bazahatere ibihingwa bitandukanye, kugira ngo babashe kugera ku ntego zabo zo guhinga kandi bakeza, ibintu bikera kandi ari byiza.

Igihe turi guhinga, ni byiza ko duhinga ku murongo kuko bifasha ibihingwa tugiye gutera kugira ngo byere neza, kandi bibe byarinda akajagari mu murima. Ni byiza cyane ko dukoresha uburyo bwizewe bwo guhinga kijyambere kugira ngo tweze kandi tugire umusaruro mwiza.

Abagore batatu n'umugabo umwe aho bari guhinga basanza kugira ngo babashe gutera imbuto zabo, ni byiza ko bita ku murima neza bawusukura neza bakuramo ibyatsi kugira ngo imbuto bagiye guteramo zizere neza.

Imbuto zitandukanye aho ziri kwitabwaho zateguwe neza kandi zikaba hejuru hari ibikoresho ndetse no hasi bifashwa kugira ngo zikomeze gukura neza, ni byiza ko twita ku mbuto tuzisakara dushyiraho utuntu turinda izuba kugira ngo zitangirika maze zikomeze kwera.

Abantu ubona ko bari guhinga ahantu hasanzwe hatewemo ibigori kugira ngo babashe kuhatunganya, maze hazaterwemo ibindi bihingwa bitandukanye. Ni byiza ko dutegura ahantu hacu neza kandi tukahitaho uko bikwiriye kugira ngo tuzabashe kweza kandi tubone umusaruro ushimishije.

Abantu ubona bateraniye ahantu ari benshi cyane, aho bari gukora ubuhinzi kugira ngo babashe gutera ibimera, maze birinde isuri ndetse n'ibindi bibazo bishobora gutera ubutaka.

Abantu ubona ko bari guhinga bari gutunganya ubutaka bwabo kugira ngo bazabashe guhinga ibihingwa bitandukanye, ni byiza ko twita ku butaka kandi tubusukura neza dukora impande zose kugira ngo dukuremo urwiri rurimo kugira ngo tuzabashe guhinga maze tweze.

Umuntu ubona ari kwita kuri avoka ariko y'imbangurirano. Avoka y'imbangurirano ni nziza cyane kuko yera kenshi kandi ikera ikiri na ntoya, ikera na avoka nziza, ni byiza ko abantu bose bashishikarizwa kubanguriza avoka zabo kugira ngo zitange umusaruro uhagije.

Umubyeyi ubona ko ari gutunganya ubutaka atera mu myobo kugira ngo abashe gutera ibihingwa kandi bizere neza. Ni byiza gutunganya ubutaka mbere yo guhinga kandi ugateresha ifumbire kugira ngo uzabashe gusarura ingano y'ibyo wahinze byinshi.

Abantu ubona ko bari guhinga batunganya ubutaka bwabo, aho bari guhinga bitegura kuzashyiramo ibindi bihingwa. Ni byiza ko dutunganya ubutaka bwacu, kandi tukabuhinga neza twitegura ko buzajyamo ibindi bihingwa kugira ngo tubone umusaruro ushimishije.

Kwita ku rutoki ni byiza cyane, kuko bifasha kuba rwakura neza kandi rugatanga umusaruro, ndetse n'amateke ni meza cyane ku buzima bwa buri munsi, kuko atera imbaraga igihe umuntu yayariye kandi yatetse neza, ni byiza ko twita ku rutoki kugira ngo rubashe gutanga umusaruro.

Umuntu ubona ko ari kwita ku muhanda, ari kuwusukura akuramo ibitaka kugira ngo abashe kwita ku muhanda, maze uzabone uko uyurwamo hameze neza, ni byiza ko twita ku hantu cyane cyane ahantu hari imihanda cyangwa ahandi hantu hameze nabi kugira ngo habashe kumera neza.

Ibigori ubona ko bifite umusaruro ushimishije kubera ko byitaweho, maze bigashyirwaho ifumbire mvaruganda ndetse n'ifumbire y'imborera; ni byiza ko igihe tugiye guhinga duteza ifumbire kugira ngo tuzabone umusaruro ushimishije.

Abantu babiri ubona ko bari guhinga, bita ku murima bashyiramo ifumbire mu bigori ndetse no mu rutoki, ni byiza ko twita ku bihingwa cyane cyane urutoki ndetse n'ibigori, tubiha ifumbire zihagije kugira ngo bibashe gukura neza kandi bitange umusaruro.

Icyumba kirimo imiti itandukanye, harimo imiti y'inka, ifasha inka kugirango ibashe gukura neza, ndetse n'indi miti iterwa ku bihingwa, ni byiza ko twita ku matungo yacu, ndetse no ku bihingwa byacu, tubyitaho tubiha imiti uko bikwiye.

Umuntu ubona ko ari kwita ku mbuto zitandukanye, aho ari kuzivomerera kugira ngo zibashe gukura neza, ni byiza ko twita ku mbuto, tuzisasira, kandi tuziha amazi ahagije, kugira ngo zikure, maze natwe tubone umusaruro uhagije.

Abantu ubona ko bari guhinga umurima kugira ngo bawutegure neza bazabashe gushyiramo ibindi bihingwa, ni byiza ko twita ku mirima yacu, tuyikora neza igihe cyose tugiye guhinga kugira ngo izabashe gutanga umusaruro.

Abantu ubona ko bari gutunganya ubutaka kugira ngo maze buzahingwe, aho bari guhinga bakoresheje amasuka, kugira ngo babashe guhinga neza maze batunganye ubutaka, maze bazatere babashe kweza kandi bagire umusaruro uhagije.

Ni byiza ko twita kuri dodo igihe cyose zikiri mu murima tuzitaho tuzibagarira kugira ngo zibashe gukura neza kuko zirinda indwara zitandukanye z'umubiri kandi zikaba zirimo intungamubiri zifasha ikiremwamuntu kugira ngo kibashe gukura gifite ubuzima bwiza.

Abantu bari kwita ku muhanda, aho bari kuwusukura bakuraho urwiri rwameze mu muhanda kugira ngo babashe kugira umuhanda umeze neza. Ni byiza ko twita ku mihanda yacu tuyigiriye isuku tuyisukura kandi igahorana n'umucyo.

Abantu ubona ko bari gupakira umuceri kugira ngo babashe kugira uburyo bawupanga neza maze harindwe kuba wakwangirika, maze ukomeze gucungwa neza kandi maze uzatange umusaruro ushimishije.

Urusobe rw'ibihingwa bitandukanye, harimo ibishyimbo, soya, ibigori, amashaza ndetse n'ibindi biribwa bitandukanye, aho byifashishwa mu kuribwa kandi bikagira intungamubiri ku buzima bwacu.

Abantu aho bari gutera umuti ibirayi kugira ngo habe hakurwaho udukoko tujyaho bityo bigatuma bitabasha kwera neza, ni byiza ko twita ku bihingwa kugira ngo bibashe kugira umusaruro uhagije kandi ushimishije.

Ibigori ni byiza ko byitabwaho igihe byamaze gukurwa mu mirima bishyirwa ahantu hafite isuku kandi hameze neza kugira ngo habe harindwa ko ibigori bishobora kugira ikibazo cyo kubora. Ni byiza ko twita ku bihingwa byacu.

Ibigori ubona ko byashyizwe mu mifuka byamaze guhungurwa ku bitiritiri byabyo, kugira ngo bizatunganwe havanwemo ifu yifashishwa mu gukoramo ibiryo bitandukanye. Ni byiza ko dutunganya ibiryo byacu, kugira ngo tubashe kurya ibiryo bimeze neza.

Ibitoki ni kimwe mu bintu bifite agaciro cyane ku buzima bwacu bwa buri munsi kuko bimwe biribwa ibindi bigakorwamo inzoga twifashisha igihe dushaka kunywa, ni byiza ko tubungabunga ibitoki kandi bikagurwa hitawe kurebwa ibifite agaciro cyangwa ibitarangiritse.

Ibihingwa byiganjemo ibigori, amateke, aho ari ibihingwa, ndetse n'amasaka aho ari ibihingwa byiza cyane, kandi bikungahaye ku ntungamubiri zitandukanye ni byiza ko byitabwaho, maze bikabasha kwera bigatanga umusaruro.

Umuceri ni umwe mu gihingwa ngengabukungu aho iyo witaweho neza utanga umusaruro kandi umusaruro ushimishije, ni byiza ko twita ku muceri kandi tukawusarura weze neza kandi tugakoresha ibikoresho byabugenewe kugira ngo habe hakwirindwa ko wakwangirika.

Inyanya ni igihingwa kiri mu ubwoko bw'imbuto, aho ari ingirakamaro ku buzima bw'abantu, kandi kifashishwa mu gukoramo izindi mbuto zirimo intungamubiri ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu guteka, ni ngombwa koko twita ku nyanya tuzigirira isuku kandi tuziha umuti uko bikwiye igihe zikiri mu murima.

Ibigori ni ingirakamaro ku buzima bwacu bwa buri munsi, aho bitera imbaraga ndetse bikaba byanakwifashishwa mu gukorwamo ibintu bitandukanye. Ni byiza ko igihe bisaruwe bitunganywa neza kugira ngo hirindwe kuba byakwangirika maze bigire umusaruro umeze neza.

Ibirayi ni igihingwa ngengabukungu aho gitanga amafaranga menshi ku bantu babihinze ndetse hakaba harimo n'ibyo kurya igihe umuntu yahinze ibyo kurya, ni byiza ko dutera ibirayi kandi tukabitera ku murongo, tukibuka kubisukira igihe bigeze kuba bikuru kugira bibashe kwera neza.

Ibigori iyo bimaze kwera bimaze kuma ni ngombwa ko bimanikwa ahantu habugenewe kandi hubatswe neza kugira ngo bibashe kuma neza, kandi ntibihure ikibazo. Ni ibyiza ko dushyira ahantu ibigori byabugenewe bishyirwa, kugira ngo bibashe kuma neza bimanikwa ahantu hejuru.

Umuceri ni igihingwa cyiza kandi gikungahaye ku ntungamubiri zitandukanye, igihe kitaweho neza maze kikabasha gutunganywa binyuze mu buryo bwizewe kandi bwiza, umuceri ni ibiryo byiza kandi dukwiye kwitaho tukihatira no kubihinga.

Ahantu hatunganyijwe hamanikwa ibigori bimaze kwera kugira ngo bibashe kuma kandi hirindwe kuba byakwanika hasi kugira bibe byabora. Ni byiza ko tumanika ibigori ahantu habugenewe hejuru ku biti kugirango bibashe kuma neza.

Ahantu hari ikibaya kiza cyane ubona ko harambijwe kandi ubutaka babuhurije hamwe kugira ngo batere ibigori, kandi ibigori byabo bifite ubuzima bwiza bikura neza, ni byiza ko ibigori byitabwaho bihabwa ifumbire ihagije kugira ngo bikure neza kandi bitange umusaruro.

Ibiti ni kimwe mu bintu bifasha mu gihe umuntu ari guhumeka kuko biyungura umwuka duhumeka, ni byiza ko twita ku bidukikije cyane cyane ibiti twirinda gutema amashyamba, ahubwo dutera ibiti byinshi.

Ishyamba ni ingirakamaro ku buzima bw'abantu bwa buri munsi ndetse n'ikiremwamuntu, aho rifasha gutanga umwuka duhumeka ndetse no mu buryo bwo gukurura imvura cyangwa no mu bundi buryo bwo gutanga ibikoresho, ni byiza ko twirinda kwangiza amashyamba haba ari ukuyatema ndetse no kuyatwika.

Ishyamba ni ingirakamaro ku buzima bwacu bwa buri munsi, aho afasha gutanga umwuka mwiza duhumeka, akanarinda ibyago byo kuba ikiremwamuntu cyahura na byo, byo kuba ikirere cyaba cyahindutse ndetse n'izindi ngaruka ziterwa no guhindagurika kw'ikirere.

Urutoki ni ahantu heza ho kwitabwaho kuko hatanga umusaruro harimo ibitoki, imineke ndetse n'inzoga, ni byiza ko twita ku rutoki ndetse n'ibindi bimera muri rusange kugira ngo tubashe kugira ubuzima bwiza.

Avoka y'imbangurirano ni imwe muri avoka yera avo nyinshi kandi ikera mu gihe gitoya. Ni byiza ko abantu twese dutera avoka z'imbangurirano kuko ari zo zera kandi zikagira avoka zifite intungamubiri kurusha izindi avoka.

Ibisheke ni kimwe mu gihingwa cy'ingirakamaro cyane kuko cyongera isukari mu mubiri, ni byiza ko twita kuri ibi bisheke kuko byifashishwa havanwamo isukari dukoresha mu bintu bitandukanye, ni byiza ko tubyitaho ahantu hose biri kugira ngo bibashe gukura neza.

Ishyamba ni kimwe mu bimera bifite akamaro cyane ku buzima bw'abantu bwa buri munsi, aho ryifashishwa mu gutanga ibikoresho bitandukanye ndetse n'ibindi bikoresho twifashisha mu buzima bwacu bwa buri munsi, aho riduha umwuka duhumeka, ni byiza rero ko twita ku mashyamba.

Urusobe rw'ibimera bitandukanye, ni byiza ko tubungabunga ibimera kuko biduha umwuka duhumeka ndetse n'ibindi bintu byose twifashisha mu buzima bwacu bwa buri munsi kugira ngo tugire ubuzima bwiza.

Urusobe rw'ibidukikije harimo ibimera, aho biba bikwiye kubungabunga kugira ngo abantu bakomeze kugira ubuzima bwiza, aho byifashishwa bitanga umwuka mwiza duhumeka ndetse bikaba byarinda ingaruka zishobora guterwa no kwangirika kw'ikirere ndetse n'ibidukikije.

Urutoki ubona ko ruri ahantu hameze neza ariko ubona ko rutitaweho ngo rusasirwe kugira ngo rube rwabasha kwera neza. Ni byiza ko twita ku ntoki ndetse hitabwa n'uburyo bwo kuzitaho hahabwa ifumbire, hagashyirwa ifumbire zihagije ndetse n'ibindi bintu byose byafasha kuba urutoki rwakwera neza.

Ikigo cy'amashuri ubona cyakira abanyeshuri batandukanye bo mu ngeri zose kugira ngo bahabwe uburezi butandukanye bitewe n'impano zabo, ni byiza ko abanyeshuri bose bagana ishuri kugira ngo bahabwe uburere n'uburezi.

Ibimera bitandukanye bitanga umwuka duhumeka kandi bikanarinda kuba hakwangirika kw'ibidukikije, ni byiza ko twirinda kwangiza ibidukikije harimo nk'ibimera kugira ngo dukomeze kugira ubuzima bwiza.

Urutoki ubona ko rukiri rutoya, rwitaweho kandi hakaba harimo n'ibishyimbo, ni byiza ko hitabwaho hakorerwa isuku ibyatsi birimo bigakurwamo, maze hakaba hajyamo n'ifumbire kugira ngo urutoki rukure neza, ndetse n'ibishyimbo birimo bibashe gukura neza.

Ni byiza ko twita ku rutoki kuko ni ingirakamaro ku buzima bw'abantu bwa buri munsi, kuko rutanga umusaruro harimo ibitoki byifashishwa igihe umuntu ari kubiteka, imineke, ndetse hakaba havamo inzoga, ni byiza ko twita ku rutoki turukorera isuku kandi tunarufumbira.

Urusobe rw'ibimera ni bimwe mu bintu bifasha cyane mu kurinda ibidukikije bikaba byarinda n'ingaruka ziterwa no kwangiza ikirere, ni byizayiza ko twita ku bidukikije cyane cyane ibimera twirinda kubitema cyangwa kubitwika.

Ibiribwa bitandukanye harimo nk'imboga ndetse hakabamo n'urutoki, ni byiza ko dusoroma imboga zitararengerana kugira ngo tubashe kuziteka zitugirire akamaro kandi tuziteho tuzikuramo ibyatsi biba birimo kugira ngo zibashe kwera neza.

Ibidukikije ni ingirakamaro ku buzima bwacu cyane cyane amashyamba kuko arinda ingaruka zitandukanye zishobora guterwa no kuba habuze ibidukikije cyangwa hangiritse ibidukikije, harimo nko kuyungurura umwuka duhumeka, ni byiza ko tubungabunga amashyamba, twirinda kuyatwika ndetse no kuyatema.

Ibimera bitandukanye, harimo ibirandaranda ndetse n'insina n'ibindi bimera bitandukanye, aho biba byiza kubyitaho kandi bikabasha kubungabungwa hirindwa kuba byatemwa, kugira ngo bikomeze bitange umwuka duhumeka kandi bifashe mu kurinda kwangirika kw'ibidukikije.

Ishyamba ni ingirakamaro ku buzima bw'abantu, kuko ritanga umwuka duhumeka ndetse rigakorwamo n'ibindi bikoresho bitandukanye, kandi rikayungurura umwuka, bikagabanya ndetse n'umuyaga ushobora kwangiza ibidukikije.

Intoryi ni imbuto zigira uruhare runini igihe umuntu agiye guteka imboga, zikaba zifitemo intungamubiri ndetse no kurinda indwara, ni byiza ko turinda ibyaba byakwangiza intoryi kugira ngo dukomeze tugire ubuzima bwiza.

Ibimera bitandukanye harimo ibipapayi ndetse n'intoryi, ni byiza ko twita kuri izi mbuto kugira ngo tubashe kugira ubuzima bwiza bityo tuziha amazi ahagije, tunazisasira kandi tuzigirira isuku.

Urusobe rw'ibiribwa harimo ibirayi, imbuto, urutunguru aho bifasha cyane mu gihe cyo guteka ibiryo kandi biba bifite intungamubiri, ni byiza ko dusukura ibi biribwa mbere yuko tubikoresha duteka.

Ubutunguru ni kimwe mu mbuto zifashishwa cyane mu kuryoshya ibiryo kandi zikaba zirinda indwara zitandukanye zo mu nda, nk'indwara z'igifu ndetse n'izindi ndwara zitandukanye, ni byiza ko dukoresha ubutunguru kandi tukabukoresha neza.

Urusobe rw'imbuto zitandukanye, harimo ibitunguru, imiteja, imyungu ndetse n'izindi mbuto zitandukanye zifashishwa igihe umuntu agiye guteka. Ni ngombwa ko twita kuri izi mbuto kuko zirinda indwara zitandukanye.

Urusobe rw'ibimera bitandukanye harimo imyembe ndetse n'ibindi bimera bitandukanye n'imbuto, aho zatewe neza kugira ngo zizabashe gukura kandi zikure zimeze neza, dukomeze kwita ku bimera tubyitaho kugira ngo bibashe kuduha umusaruro uhagije.

Ikinyomoro ni kimwe mu rubuto rugira akamaro ku buzima bwacu bwa buri munsi aho cyongera amaraso ku muntu afite amaraso makeya, biba byiza iyo gihinzwe neza kandi kigaterwa neza ku buryo gishobora gukura neza kandi kigatanga umusaruro ushimishije.

Imboga rwatsi ubona ko zitaweho neza, maze zikaba zifite igikuriro kandi zitoheranye; ni byiza ko dutera imboga ku karima k'igikoni, kuko ari ho zikura neza kandi zikabasha kwera neza kandi zifite igikuriro kandi vuba.

Ibimera bitandukanye harimo igiti cy' avoka, aho gitanga urubuto rw' avoka yifashishwa mu kurya kandi ikaba ivura indwara zitandukanye kandi ikaba ifite n'intungamubiri, ni byiza ko tubungabunga ibi biti by' avoka ndetse n'ibindi bimera, kuko bifite uruhare runini ku buzima bwacu.

Umwembe ni igiti iyo cyakuze kandi kitaweho gitanga umusaruro ushimishije kandi kikaba gishobora gukoreshwa igihe keze nyuma y'uko umuntu ariye akaba yafata urubuto rw'umwembe kuko rugira uruhare mu kongera intungamubiri. Ni byiza ko twita ku biti by'imyembe ahantu hose biri.

Umubyeyi aho ari kwita ku bishyimbo kugira ngo abashe kureba nimba biri gukura neza aho bamaze kubishingirira kugira ngo abyiteho, ni byiza ko twita ku myaka yacu igihe ikiri mu murima kugira ngo ibashe kwera neza.

Ibimera bitandukanye harimo n'indabyo, aho zifasha gutuma ahantu hamera neza kandi hakagira imiterere imeze neza, ni byiza yuko tubungabunga ibimera ibyo ari byo byose kuko bifite uruhare mu buryo bw'ibidukikije kandi tubibungabunge kugira ngo turengere ubuzima bwacu.

Ibimera ni ingirakamaro ku kiremwamuntu kuko bifasha mu bintu bitandukanye, haba harimo indabo aho zifashishwa mu gutegura ahantu neza bigatuma haba heza ndetse n'ibindi bishobora gutanga umwuka mwiza duhumeka bityo abantu bagakomeza kugira ubuzima bwiza.

Amashu igihe ari mu murima agomba kwitabwaho asasirwa neza kandi akavomererwa, ku buryo yose abasha kubona amazi ahagije, kugira ngo akure neza bityo atange umusaruro. Ni byiza ko twita ku mashu igihe akiri mu murima.

Imbuto nziza cyane zitwa imyembe, aho yifashishwa igihe umuntu amaze gufata ifunguro, kandi ikaba irinda indwara mu mubiri, ikaba ifite n'intungamubiri mu mubiri. Ni byiza ko ducuruza iyi myembe kandi tukayitanga ifite isuku.

Ababyeyi, abana ndetse ubona ko bavuye no kuzana imbuto y'ibinyomoro kugira ngo babashe kubitera maze bazabashe kugira ubuzima bwiza, aho ibinyomoro byitabwaho neza maze bigatanga umusaruro kuko bigira uruhare ku buzima bwacu, harimo nko kongera amaraso.

Imineke ni imbuto zigira intungamubiri zitandukanye ku buzima bw'abantu bwa buri munsi, aho k'ubana n'imbuto zibafasha gukura neza maze bakagira ubuzima bwiza, ku bantu bakuru imbuto ibafasha kuba batekereza neza kandi zikanabongerera intungamubiri.

Abantu ubona ko bari gusoroma imboga ku karima k'igikoni; ni byiza ko dukoresha akarima k'igikoni igihe cyose turi gutera imboga, kuko ariho zera neza kandi bigatuma zera byoroshye kandi vuba.

Indabyo zimeze neza ubona ko ziba zakoze ubusitani, aho haba ari ku kigo cy'amashuri ukabona ko hameze neza kubera ibi bimera; ni byiza ko twita kuri ibi bimera kuko bifasha gutuma ahantu hagaragara neza.

Imbuto ni ngombwa ko zitabwaho cyane zigasasirwa kugira ngo zibashe gutanga umusaruro ushimishije, kugira ngo habe hakwirindwa udukoko dushobora kuzangiza. Ni byiza ko twita ku mbuto kandi tuzisasira uko bikwiye tunaziha amazi ahagije.

Avoka y'imbangurirano, bimwe mu biti byera cyane kandi bikera vuba ugereranyije n'ibindi biti, niyo mpamvu dukwiye gutera avoka y'imbangurano kuko ari nziza kandi yera vuba, ikagira n'intungamubiri zihariye, ikorwamo n'ibintu bitandukanye

Inyanya ni kimwe mu gihingwa cyane ngengabukungu kandi kifashishwa mu gutanga amafaranga menshi kuko kiba gifite umusaruro mwinshi iyo wakitayeho neza. Ni byiza ko twita ku nyanya zigira intungamubiri ku buzima bwacu.

Ibimera bitandukanye harimo indabyo ndetse n'ibindi bimera bitandukanye byifashishwa mu gutegura ahantu ndetse bikaba bigira uruhare mu kuyungurura umwuka duhumeka ndetse no kugira ahantu hakaba hameze neza, ni byiza ko bikomeza kwitabwaho kuko bituma ahantu hamera neza.

Ni byiza ko dutera imboga rwatsi kuko ari ingirakamaro ku buzima bwacu, cyane cyane ku bana ndetse n'abantu bakuze, kuko zirinda indwara kandi zikaba zifite intungamubiri. Ni byizayiza ko dukoresha uturima tw'igikoni kuko ari two dutuma imboga zikura neza.

Urusobe rw'ibiribwa bitandukanye, harimo imiteja yifashishwa mu kurinda indwara igihe umuntu ayitetse hakabamo n'ibirayi bitera imbaraga, ni byiza ko twita kuri ibi biribwa kandi tukabigirira isuku igihe tugiye kubiteka kandi no mu buryo bwo kubisarura aho byahinzwe bikabasha kwitabwaho neza.

Ibinyomoro ni igihingwa kigomba kwitabwaho kuko gifite akamaro kanini ku buzima bwacu bwa buri munsi aho ikinyomoro cyongera amaraso ndetse kikanarinda n'izindi ndwara, ni byiza ko cyitabwaho kibagarirwa neza kandi kigahabwa ifumbire ihagije.

Ni byiza ko twita ku mbuto zitandukanye igihe zikiri mu murima kugira ngo zibashe kwitabwaho tuzishyigikira n'ibiti ndetse tunazisasira, byaba ngombwa tukanavomerera, cyane cyane mu gihe cy'impeshyi kugira ngo zibashe gukura neza.

Urusenda rumwe mu mbuto nziza cyane kuko zifashishwa mu gushyira mu biryo hakaba hakongera umuhumuro kandi zikaba zirinda n'indwara zitandukanye nk'indwara zo mu nda, mi ibyiza ko dufata urusennda uko bikwiye kugira ngo dukomeze tugire ubuzima bwiza kandi tukanaruhinga mu buryo bwa kijyambere.

Urusobe rw'ibimera bitandukanye harimo intusi ndetse n'imyumbati, aho intusi zifashishwa cyane mu gutanga umwuka duhumeka, maze hakaba havamo n'ibikoresho bitandukanye, imyumbati yo ikaba ari ibihingwa ngangurarugo, aho byifashishwa cyane mu kubiteka kandi bikagira intungamubiri kandi bikaba bitera n'imbaraga.

Abantu, aho bari gutegura akarima k'igikoni bateraho imbuto zitandukanye. Ni byiza ko abantu bose bihatira gukoresha akarima k'igikoni, kuko gafasha gutuma imbuto zera vuba, ndetse n'imboga, kandi zikera neza.

Ibihingwa bitandukanye harimo ibigori, imyungu, ndetse n'ibindi bihingwa bitandukanye, ni ngombwa ko byitabwaho igihe bikiri mu murima, bikorerwa isuku, bibagarwa kugira ngo bibashe gutanga umusaruro mwiza, kandi mwinshi.

Isoko ryiganjemo imbuto zitandukanye harimo imyungu, imineke, ifu ndetse n'ibindi biribwa bitandukanye byifashishwa igihe umuntu ari kurya, bityo bigatuma umuntu agira ubuzima bwiza, ni byiza ko bacuruza ibintu bifite ubuziranenge.

Ibiti bitandukanye bya avoka aho bitanga umusaruro utandukanye bitewe n'uko igiti cyitaweho, avoka ni urubuto rwiza aho rufasha mu gihe cy'ifunguro kandi rukaba rwongera n'intungamubiri mu mubiri igihe rwafashwe neza, nyuma y'uko umuntu arangije kurya.

Intababara ni kimwe mu mbuto nziza cyane, kuko zifasha mu kurindwa indwara zitandukanye, kandi zikagira n'intungamubiri, harimo nko kuba zongera amaraso igihe umuntu afite amaraso make, ndetse zikaba zinarinda n'izindi ndwara zitandukanye. Ni byiza ko tubungabunga izi mbuto.

Amakaroti ni imbuto nziza cyane, aho zifashishwa umuntu ari gutegura ibiryo bitandukanye, kandi zikagira intungamubiri ku buzima bwacu, ni byiza ko twita kuri ibi bihingwa, tubyitaho, tubivomerera igihe cy'izuba, kugira ngo bibashe gukura neza, maze tugire ubuzima bwiza.

Abantu ubona baje gutanga imbuto ya avoka y'ibangurirano kugira ngo zihabwe abantu, maze bazazitere maze babone avoka zo kurya ndetse n'izindi bashobora kuba bagurisha. Ni byiza ko twitabira kuba twatera voka y'imbangurirano kuko ariyo yera vuba kandi ikera nyinshi.

Akarima k'igikoni gafasha cyane mu guhinga imbuto ndetse n'imbwija kuko zibasha kwera neza kandi zikera vuba, ni byiza ko dukoresha akarima k'igikoni igihe turi gutera imboga kuko ariho zera neza kandi zikera vuba.

Umuntu ubona ko ari gusoroma dodo ndetse harimo n'ibindi bihingwa bitandukanye: ibigori, ibishyimbo ndetse n'ibindi bihingwa. Ni byiza ko twita ku myaka yacu kandi tukayisoroma igihe yeze kugira ngo ibashe kuba ifite intungamubiri ihagije.

Ikibaya kiza cyane ubona ko hari ibimera bitandukanye ndetse n'ingo, ubona ko ari ahantu hakwera ku buryo haba hitaweho neza, hari ibimera byiza ndetse n'ibiti byiza. Ni byiza ko twitaho ahantu cyane cyane ahahingwa, kugira ngo habashe gutanga umusaruro.

Umugabo ari kwita ku ntoryi, aho ari kuzitaho areba izeze kugira ngo azisorome, ni byiza ko twita ku mbuto tuzitaho tuzisasira kandi tuziha amazi ahagije, kandi tukabasha gusoroma izakomeye kugira ngo zitaba zatukura, kugira ngo dukomeze kwiteza imbere.

Avoka ni kimwe mu gihingwa gikungahaye ku ntungamubiri zishobora gufasha umubiri kwirinda indwara zitandukanye kandi ikaba ishobora gufasha umubiri kugira ubuzima bwiza, ni byiza ko twita kuri iki kimera kugira ngo kibashe kugira ubuzima bwiza natwe tugire ubuzima buzira umuze.

Ubwoko bw'imbuto, ibinyomoro n'imbuto nziza cyane kuko zigira uruhare mu kongera amaraso mu mubiri w'umuntu, kandi zikaba zirinda indwara. Ni byiza ko zitabwaho igihe zikiri ntoya, kugira ngo zizabashe kwimuka zijyanwa ahandi, kugira ngo ziterwe zifate kandi zere zigire umusaruro.

Umubyeyi ari kwita ku mbuto zitandukanye, aho ari kuzuhira amazi kugira ngo zibashe gukura neza kandi zikure zibashe gutanga umusaruro, ni byiza ko twita ku mbuto tuzivomerera cyane cyane mu gihe cy'Impeshyi.

Ibikoresho byifashishwa mu gusarura imyaka igiye itandukanye. Ni byiza ko twifashisha n'ibikoresho igihe dufite ibintu byinshi twahinze kugira ngo tubashe gusarura neza kandi tubashe kubyitaho maze dukomeze kugira umusaruro mwiza.

Umuntu ubona ko ari kwita ku mbuto ari kuzivomerera kugira ngo zibashe gukura neza maze zitange umusaruro ushimishije. Ni byiza ko twuhira ibihingwa byacu kugira ngo bibashe kwera neza kandi bitange umusaruro uhagije.

Ni byiza ko twita ku biribwa byacu igihe bikiri mu murima, tubivomerera kandi dukoresheje ikoranabuhanga, ku buryo tubivomera byose kandi bikabasha kubona amazi ahagije, bityo bikabasha gukura neza kandi bigatanga n'umusaruro uhagije.

Umubyeyi ubona ko ari kwita ku bigori, aho ari kubibagara akuramo ibyatsi kugira ngo bibashe gukura neza, ni byiza ko twita ku bigori byacu tubibagara kugira ngo bibashe gukura neza.

Imboga rwatsi ni byiza ko zitabwaho zihabwa amazi ahagije cyane cyane iyo ari mu gihe cy'impeshyi kugira ngo zibashe gukura zimeze neza kandi zitange umusaruro uhagije, ni byiza ko tuzitaho uko bikwiye.

Ibikoresho byifashishwa mu kuvomerera ibihingwa harimo nk'ibigori, ibi bikoresho rero biba ari byiza kuko bituma ibihingwa bibona amazi ahagije, maze bikabasha gukura neza bigatanga umusaruro.

Kuvomerera kijyambere ni kimwe mu bintu bifasha ibihingwa kwera neza igihe habaye igihe cyo kuba hariho izuba ryinshi. Ni byiza ko tuvomerera ibigori kandi tukabyuhira neza ku buryo bibona amazi ahagije ku buryo bibasha kwera neza.

Ibigori iyo bikiri bito biri mu bintu bikenera amazi menshi. Igihe habuza amazi biba ngombwa ko bivomererwa kandi bigahabwa amazi ahagije, kugira bibashe gukura neza kandi bitange umusaruro, ushimishije.

Ahantu hari ibiti harimo ibyiganjemo imbuto ndetse n'ibindi biti bitandukanye bifasha kuyungurura umwuka kugira ngo tubone umwuka mwiza duhumeka, ni byiza ko twita ku bidukikije kugira ngo dukomeze kugira ubuzima bwiza.

Ahantu hari ibihingwa bitandukanye ndetse n'amazu, aho hari ibirayi ndetse n'ibindi bihingwa bitandukanye, abantu bita kuri ibi bihingwa kugira ngo bibashe gukura neza, maze babone umusaruro uhagije.

Umuceri ni igihingwa ngengabukungu aho Kifashishwa cyane mu gutanga umusaruro mwinshi cyane ugereranyije n'ibindi bihingwa igihe iki gihingwa cyitaweho neza. Ni byiza ko twita ku umuceri; tuwubagara, kandi tuwugirira isuku, kandu tuwuha n'amazi ahagije.

Ikibaya cyiza cyane ubona gihinzwemo umuceri kandi umeze neza, ubona ko ari ahantu hatunganyijwe neza kugira ngo habashe guterwa umuceri, ni byiza ko hitabwaho kugira ngo habashe gusukurwa uko bikwiye maze habashe gutanga umusaruro.

Ubutaka bwakozemo amatarasi y'indinganire ibyo bifasha ubutaka kuba bwakwera neza bikanatuma hakwirindwa isuri haba ari isuri y'imvura ndetse n'ibindi bizaza bishobora kuba byatwara ubutaka. Ni byiza ko dukoresha amatarasi y'indinganire ubutaka bwacu kugira ngo bubashe kwera.

Ubutaka bwiza ubona ko bwakozweho amaterasi y'indinganire, kugira ngo habashe kwera ubone ko hari ahantu heza cyane kandi hera, kuko birinda kuba ubutaka bwatarwarwa cyangwa ngo bwibasirwe n'isuri kandi bigatuma bunera neza.

Ubutaka bwiza cyane buriho ibimera bitandukanye, aho hahingwa ubwoko bw'ibimera harimo ibiribwa bitandukanye. Ni byiza ko twita kuri ubu butaka kugira ngo bukomeze kwera neza tubuha ifumbire ihagije kugira ngo dukomeze tugire umusaruro mwiza.

Amaterasi y'indinganire ni amwe atuma ubutaka bwera neza kandi bukagira umusaruro kuko atuma ubutaka budatwarwa n'isuri cyangwa bube bwagira ikibazo, aho ubutaka bwera neza kandi bugatanga umusaruro mwiza.

Ubutaka ubona ko bwateguwe neza, aho hari gukorwa kugira ngo babashe kurwanya isuri harakozwe amaterasi y'indinganire ndetse haterwaho n'urubingo, ni byiza ko twita ku butaka kugira ngo bukomeze kuba bumeze neza.

Amatarasi y'indinganire ni ingenzi cyane ku butaka cyane cyane ahantu hahanamye, kuko hafasha ubutaka kwera neza kandi akaba yarinda isuri kuba hatwarwa ubutaka, ni byiza ko ahantu hakorerwa amatarasi y'indinganire.

Amatarasi y'indinganire ni meza kuko afasha mu gufata ubutaka kandi hagatuma ahantu uhera neza, bityo bigatuma abantu bahinga bakeza bakagira umusaruro mwiza. Ni byiza ko twese twitabira gukoresha amaterasi ndinganire ubutaka bwacu kugira ngo tugire umusaruro mwiza.

Umubyeyi ahari kuzirika ihene ahantu hari ubwatsi kugira ngo zibashe kuba zarisha. Ni byiza ko yazijyana ahantu hari ubwatsi burenze cyangwa akazahirira kugira ngo zibashe kugira ubuzima bwiza zitabwaho neza.

Intama ni inyamaswa nziza cyane, aho izwiho kuba itanga amafaranga menshi kandi yororwa mu rugo, kandi ikagira inyungu nyinshi ku umuntu yayoroye kandi akayitaho. Ni byiza ko tworora intama kandi tukazitaho uko bikwiye tuziha ubwatsi.

Umubyeyi n'umwana aho ubona baragiye ihene, ni byiza ko twita ku matungo magufi kuko afasha mu bintu bitandukanye, haba gutanga ibyo kurya binyuze mu nyama ndetse n'amafaranga yifashishwa mu gukemura ibibazo bitandukanye, byiza ko twita kuri aya matungo kuko ni ingenzi ku buzima bwacu.

Inka ubona ko iri kumwe n'iyayo aho inyana yayo iri konka kugira ngo igire ubuzima bwiza, ni byiza ko n'abantu borora inka kugira ngo babashe gutunga nyina ndetse n'inyana yayo bibashe kubaho neza. Ni ngombwa ko bihabwa ubwatsi bukwiriye kandi n'inyana ikabasha konka neza.

Abantu bafite ibibwana by'ingurube ubona ko ari ibibwana byiza by'inzungu, aho bagiye kubyorora kugirango bazabashe kwiteza imbere, aho bari bwifashishe imiti yabugenewe kugira ngo babivure, kugira ngo babirinde indwara zitandukanye zishobora kubifata bikiri bitoya.

Umubyeyi ubona ko ari kuzirika itungo rigufi ihene, aho ari kurizirika ahantu hari ubwatsi kugira ngo ribashe kurisha, ni byiza ko twita kuri ano matungo kuko ni ingirakamaro, aduha amafaranga akadukemurira ibibazo.

Ahantu ubona hari inkoko nyinshi za kizungu, zitabwaho n'umuntu kugira ngo zikomeze zikure neza, ni byiza ko inkoko zitabwaho kuko zitanga amagi zigatanga n'amafaranga.

Inyana ubona ko ikiri ntoya aho ifite ikibazo ubona ko idafite ubuzima bwiza, ni byiza ko yitabwaho maze ikaba yavurwa ku ngira ngo ikurikiranwe kugira ngo ibashe kugira ubuzima bwiza.

Inka ni ingirakamaro ku buzima bw'abantu bwa buri munsi cyane cyane n'iyo ikiri ntoya, ni yo mpamvu tugomba kuyitaho, tuyiha ibisabwa byose kugira ngo ibashe kuba yakura neza kandi ibasha kwegerezwa nyina yayo kugira ngo ibashe kuba yakonka neza, maze igire ubuzima bwiza.

Amatungo magufi, harimo n'ihene, aho ziziritswe mu rugo, kugira ngo zibashe kurisha ubwatsi buri impande zazo, ni byiza ko twita ku ihene, kugira ngo zibashe kugira ubuzima bwiza.

Inka ubona ko idafite imirire myiza, ni ngombwa ko twita ku nka cyane cyane izikiri ntonya, zihabwa ubwatsi buhagije kandi burimo intungamubiri kugira ngo zibashe gukura neza bityo zitange umusaruro.

Inkoko ni zimwe mu binyabuzima bifite akamaro kuko zitanga amagi ndetse zikaba zatanga n'amafaranga, ni byiza ko twita ku nkoko tuziha ibiryo bihagije kugira ngo zibashe gukura neza.

Ingurube ni zimwe mu nyamaswa zororerwa mu rugo kandi zikagira uruhare runini kuba zitanga amafaranga cyangwa ifunguro, ni byiza ko tuzitaho kugira ngo zikomeze zigire ubuzima bwiza maze zitange umusaruro.

Umwana ari kugaburira inka ye, ahari kuyiha ubwatsi kugira ngo ibashe gukura ifite ubuzima bwiza, ni byiza ko inka zitabwaho zihabwa ubwatsi buhagije, kugira ngo zibashe gukura neza kandi zitabweho.

Inka ni kimwe mu binyabuzima bifite agaciro ku buzima bw'abantu, aho inka itanga amata, ndetse ikaba itanga n'amafaranga, kandi inka ni imwe mu bintu bikomeye cyane kuko ari ingirakamaro mu buzima bw'abantu bwa buri munsi mu buryo bwo gutanga ifumbire, haba ku buhinzi ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye.

Inkoko ni imwe mu kinyabuzima gifite akamaro kanini ku buzima bw'abantu, aho yifashishwa mu gutanga amafaranga mu buryo bwo kuyigurisha ndetse ikaba yatanga n'amagi agira intungamubiri cyane cyane ku bana, ni byiza ko twita ku nkoko.

Ingurube ubona ko iri mu kiraro cya gakondo ubona ko ari ingurube igiye kuzabyara, aho yaryamye ni ngombwa ko ingurube nk'iyi yitabwaho ihabwa ubufasha kandi ikitabwaho buri gihe aho igomba guhabwa isaso rihagije kugira ibashe kuryama ahantu hameze neza.

Inka iri kumwe n'iyayo aho ziri kurya ubwatsi zahawe kugira ngo zibashe kugira ubuzima bwiza, ni byiza ko twita ku nka tuziha ubwatsi buhagije kandi tuzitaho uko bikwiye, ku buryo no kuzikurikirana kugira ngo habe harebwa ko nta ndwara zishobora kuba zaba zifite.

Ababyeyi bafite inkwavu ndetse n'abanyeshuri bafite inkwavu, ubona ko bahawe inkwavu zizabafasha kugira ngo babashe kwikura mu bukene bazorora maze babashe kugira ubuzima bwiza.

Amatungo magufi, aho yose ari kugaburirwa ahabwa ubwatsi butandukanye, ni byiza ko duha amatungo ibyatsi bihagije, cyane cyane nk'ihene kugira ngo zibashe gutanga umusaruro maze tugire ubuzima bwiza.

Amatungo magufi nk'ihene ubona ko yitaweho, afite umubiri mwiza kandi yahawe ubwatsi, aho hari ihene iri kumwe n'umwana wayo, ni byiza ko twita ku matungo magufi nk'ihene, kuko ni ingirakamaro guteza imbere abantu, binyuze mu kuyagurisha.

Urugo rwiganjemo amatungo manini harimo nk'inka ndetse n'amatungo magufi ihene, aho zose ziri kugaburirwa ibigorigori kugira ngo zibashe kuba zakura kandi zifite ubuzima bwiza. Ni byiza ko aya matungo yitabwaho ahabwa ubwatsi buhagije kugira ngo abashe gutanga umusaruro.

Amatungo ubona ari ku gasozi ari kwitabwaho arisha kugira ngo abashe kuba yagira ubuzima bwiza, ni byiza ko tujyana amatungo ku gasozi kugira ngo abashe kuba yabaho neza abona ubwatsi bwiza.

Inka ni amatungo atanga umusaruro utandukanye harimo umukamo w'amata ndetse n'amafaranga mu buryo bwo kuzigurisha, ni byiza ko twita ku nka tuziha ubwatsi buhagije kandi bwizewe kugira ngo zibashe gutanga umusaruro.

Ingurube ni itungo rigufi rikunze gutanga umusaruro munini cyane igihe ryagurishijwe kuko ritanga amafaranga menshi cyane, ni byiza ko ryitabwaho rihabwa ubwatsi ndetse n'ibiryo kugira ngo ribashe gutanga umusaruro n'amafaranga.

Amatungo magufi harimo ihene n'ingurube, aho yororerwa mu rugo ahabwa ubwatsi buzihagije, kugira ngo zibashe gukura neza, haba ihene ndetse n'ingurube, biza ko aya matungo yitabwaho kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Inka ubona ko iri mu kiraro gakondo aho yaryamye yamaze guhaga yahawe ubwatsi buhagije kugira ngo ibashe kuba yagira imibereho myiza, ni byiza ko twita ku nka zihabwa ubwatsi buhagije.

Inka bigaragara ko ibyibushye, aho yitaweho neza kugira ngo ibashe gukura kandi ibyibuhe, igira ubuzima bwiza, ni byiza ko inka zitabwaho zihabwa ubwatsi buhagije ariko zikanashyirwa ahantu hafite isakaro kugira ngo zikomeze zigire ubuzima bwiza.

Umuryango ugizwe n'umugabo n'umugore n'abana, aho bari kugaburira amatungo yabo, haba magufi ndetse n'amanini, harimo inka ndetse n'ihene. Ni byiza ko twita ku matungo tuyaha ubwatsi buhagije kugira ngo abashe gukura afite ubuzima bwiza.

Inka iri mu kiraro ubona ko ari inka nziza cyane iri kwitabwaho ihabwa ubwatsi, ariko ni byiza ko ihabwa ubwatsi buhagije kugira ngo ikomeze kugira ubuzima bwiza maze yongere n'amafaranga.

Inka ubona ko yororerwa mu rugo kandi yitaweho neza aho iri guhabwa ubwatsi buhagije ariko biba byiza iyo yubakiwe ikiraro kugira ibashe kubaho imeze neza kandi habe hakwirinda kuba yanyagirwa cyangwa ibihe yahura n'ibindi bibazo.

Abantu ubona bari kugerageza kwita ku nka kugira ngo babashe kuba bayisubiza mu kiraro aho isanzwe iba. Ni byiza ko twita ku nka imikurire yayo kuko ari ingirakamaro ku buzima bwacu, iduha amata, umukamo mwinshi igihe twayitayeho kandi igatanga n'umusaruro.

Ubutunguru ni imbuto zirinda indwara, zikaba zifashishwa mu guteka imboga, zikaba zigira uruhare cyane mu biryo. Ni byiza ko tubungabunga ubutunguru, kuko ari ingirakamaro ku buzima bwacu.

Urusobe rw'ibiribwa bitandukanye, harimo ibitunguru, amakaroti ndetse n'intoryi ndetse n'ibindi biribwa, harimo ibijumba, imyumbati, aho biba byajyanywe ku isoko kugira ngo abantu babashe kubibona maze babigure.

Igishanga ubona ko gikoreshwa mu guhingwamo ibintu bitandukanye, harimo ibigori, ibisheke ndetse n'izindi mbuto zitandukanye, aho kiba cyateguwe neza kugira ngo kizabashe gutanga umusaruro, aho kiganjemo amazi ahagije.

Ahantu hahumbikwa imbuto zitandukanye, aho ziba zitaweho cyane kugira ngo zibashe gukura, harimo inyanya, aho zimwe zitwikirirwa kugira ngo ziticwa n'izuba. Ni byiza ko twita ku mbuto cyane cyane zikiri ntoya, zisasirwa.

Ibigori igihe tugiye kubisarura ni ngombwa ko tubyitaho kandi tukareba ko byakuze, kandi byeze neza kugira ngo bizatange umusaruro ukwiye, kugira ngo twirinde kuba twabisarura biteze, kugira ngo tubone umusaruro uhagije.

Igihe ibigori byasaruwe ni byiza ko byitabwaho kugira ngo bibe byabikwa ahantu hameze neza, cyane cyane nko kumanikwa ahantu ku biti cyangwa ibindi byuma byabugenewe, kugira ngo bibashe kuma neza kandi habe hakwirindwa kuba byakwangirika.

Urusenda ni rumwe mu rubuto rwifashishwa cyane, aho rushyirwa mu biryo kugira ngo bibashe kugira uburyohe ndetse runafasha mu kurinda indwara zitandukanye z'umubiri harimo nk'indwara z'igifu, ndetse n'izindi ndwara, ni byiza ko tubungabunga ahantu hose hari urubuto rw'urusenda.

Ahantu hari imbuto zitandukanye, aho zihumbikwa kugira ngo zitabweho maze zizabashe guterwa, ni byiza ko twita ku mbuto zitandukanye kugira ngo tubashe kubungabunga ibidukikije dutera ibiti byinshi kugira ngo twirinde n'ingaruka zo kuba twakwangiza ibidukikije.

Gutera mu myobo ni kimwe mu bintu bifasha ibihingwa kuba byakwera neza kuko hashyirwamo ifumbire, hagashyirwamo n'ifumbire mvaruganda cyangwa iy'imborera kugira ngo ibihingwa bibashe kwera neza kandi mu buryo biba binatagaranye bibasha kwera byisanzuye.

Akabande ubona ko kameze neza katunganyijwe gahinzemo ibigori aho bigiye kwera, ni byiza ko dukora imiyoboro ifata amazi mu bubande kugira ngo tubashe guhinga kandi byere maze dukomeze kubona umusaruro mwiza.

Ahantu ubona ko hatewe ibigori ariko byeze bikaba byaravanywemo ubona ko hatunganyijwe kugira ngo habe haterwa ibindi bihingwa. Ni byiza ko ahantu iyo havuye ibihingwa hagomba gutegurwa neza kugira ngo haterwe ibindi bihingwa.

Abanyeshuri bari gukora ku bushakashatsi ku birebana n'itungo kugira ngo barebe ibice bigize itungo ndetse n'uburyo bashobora kubifashisha bavura, ni byiza ko abanyeshuri bakora ubushakashatsi ku bintu bari kubona kugira ngo babashe kubimenya neza.

Inka ubona ko ifite ikibazo cy'uburwayi iri guhabwa imiti kugira ngo ibashe gukira, ni byiza ko dukurikirana amatungo yacu tuyitaho tuyaha imiti uko bikwiye, yarwara tukayitaho kugira ngo azabashe kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Abantu aho bari gufata inka bayasamika kugira ngo babashe kuba bayiha ikinini cyangwa bayivure izindi ndwara yaba ifite, ni byiza ko twita ku nka tuzitaho tureba ibibazo zifite, zihabwa ibinini igihe zitakirisha neza cyangwa ngo zirye neza.

Inka ubona zahurijwe ahantu kugira ngo zibashe kwitabwaho zikingirwe, zinaterwe umuti kugira ngo habe harindwa indwara zifata uruhu kugira ngo zibashe kugira ubuzima bwiza, zikurikiranwa buri munsi kugira ngo zizabashe gutanga umusaruro.

Ahantu harimo imiti itandukanye, haba imiti ivura inka ndetse n'iterwa ku bihingwa kugira ngo babashe kuba bakwita ku bihingwa ndetse n'ibindi bintu byose byifashishwa kugira ngo ubuhinzi bugende neza ndetse n'amatungo. Ni byiza ko twita ku buhinzi ndetse n'amatungo.

Kwita ku nka ni ingenzi cyane, kuko bifasha kuba inka zagira ubuzima bwiza, bityo bikaba zitarwara indwara zitandukanye, ni ngombwa ko twita ku nka zacu, tuzijyana k'ushinzwe amatungo kugira ngo abe yazivura kandi azikurikirane.

Umwana aho ari kugaburira inka ubwatsi, ni byiza ko inka yitabwayo ihabwa ubwatsi buhagije kugira ngo ibashe gukura kandi ifite ubuzima bwiza, ni byiza ko dukomeza kwita ku nka kuko ari ingirakamaro.

Inka ifite ikibazo aho iri kwitabwaho n'umuntu ubishinzwe kandi wabyigiwe, aho ari kuyikora mu nda y'amaganga kugira ngo habe harebwa ikibazo yaba ifite, kugira ngo ibashe kuvurwa ibe yakira, ni ibyiza ko dukurikirana inka kugira ngo zibashe kugira ubuzima bwiza.

Umuntu ari guha inka ikivuguto kugira ngo ibashe kurya neza kandi ibashe kurya ifite morare maze ibashe kubyibuha kandi irye ibyatsi maze ibashe kugira ubuzima bwiza.

Umukumbi w'inka, ubona ko wiganjemo inka z'inzungu, ndetse n'izindi nka zisanzwe z'inyarwanda, aho izi nka ari ingirakamaro ku buzima bw'abantu, zitanga umukamo, ndetse zikaba zinatanga ibijyanye n'ifunguro, ni byiza ko twita kuri ibi binyabuzima, tubibungabunga kandi tubiha ubwatsi buhagije, kugira ngo bibashe kugira ubuzima bwiza.

Umuntu aho afite inka ari kuyiyobora kugira ngo ayijyane mu rugo kugira abashe kujya kuyorora. Ni byiza ko twita ku matungo yacu tuyitaho maze tureba ubuzima bwayo uburyo ari gukura ndetse n'indwara yaba arwaye kugira ngo abashe kwitabwaho.

Ingwe ni inyamaswa y'inkazi cyane iba mu ishyamba ikunze gukurura ba mukerarugendo kugira ngo baze kureba iyi nyamaswa kubera uburyo iteye, ni byiza ko tubungabunga ibinyabuzima kugira ngo bibashe gukurura ba mukerarugendo kandi tunabungabunga ikinyabuzima icyo aricyo cyose.

Inyoni ubona ko yagurutse itangaje ifite amabara meza ndetse n'amababa meza ari inyoni zikunze kuba mu ishyamba kandi zikaba mu bihugu byihariye, utasanga ahandi kuko izi nyoni zikurura ba mukerarugendo baje kureba ubwiza bwazo. Ni ngombwa rero tubungabunge n'izindi.

Inyoni ni kimwe mu binyabuzima bifite uruhare runini cyane ku bijyanye no kubungabunga ibidukikije ndetse bikaba bigira n'uruhare mu bijyanye n'ibangurira ry'ibimera, bityo bigatuma ibimera bibasha gukura neza kandi ni byiza ko tubungabunga ibiguruka byose kuko ni ingirakamaro.

Ahantu nyaburanga mu ishyamba, ubona ko hari inkende, inkende ni inyamaswa nziza cyane, zishobora gukora nk'abantu, noneho zikarenzaho, iyo ziri kwambuka ibiti, zisa nk'iziguruka mu biti, zikurura bamukerarugendo baje kwirebera ubwiza bw'izi nyamaswa, ni byiza ko tubungabunga, izi nyamaswa.

Inyoni ni zimwe mu nyamaswa zikunzwe cyane kandi zigira uruhare mu gukurura ba mukerarugendo batandukanye baje kureba ubwiza bw'izo nyoni. Ni byiza ko twita kuri izi nyoni tuzibungabunga kandi twirinda abazihungabanya kugira ngo dukomeze kubungabunga ibidukikije.

Inyamaswa z'inyeshyamba, aho usanga zikurura ba mukerarugendo bitewe n'uburanga bwazo n'ibikorwa byazo bitandukanye kandi bitangaje, ni byiza ko tubungabunga izi nyamaswa kuko zikurura ba mukerarugendo.

Ubwoko bw'akanyamaswa gakunze kuba mu ishyamba, aho hari mu bwoko bw'urukwavu ruba mu gasozi, aka kanyamaswa gakurura abantu ba mukerarugendo baje kureba uburyo gafite ubuhanga bwo kwiruka mu buryo budasanzwe.

Inguge ni zimwe mu nyamaswa zikunzwe cyane kandi zizwiho gutekereza cyane, aho zikurura ba mukerarugendo baje kureba ubwiza bwazo bityo bakinjiza amadovizi mu gihugu baje kuzisuramo, ni byiza ko tubungabunga izi nyamaswa kuko ari ingenzi.

Inyoni y'amabara meza, aho ari inyoni udashobora gusanga ahandi, aho ari inyoni ikurura ba mukerarugendo haje kureba ubwiza bwayo, ni inyoni zikunze kuba mu ishyamba, aho zikwiye kwitabwaho kugira ngo harindwe ubuzima bwazo.

Impara ni imwe mu nyamaswa y'inkazi iba mu ishyamba, aho ikurura ba mukerarugendo baje kureba ubwiza bw'ino nyamaswa n'amabara yayo, ni byiza ko twita kuri iki kinyabuzima kugira ngo kibashe kuba cyagira ubuzima bwiza, kuko gikurura na ba mukerarugendo, tubungabunge ibidukikije.

Inguge ni inyamaswa zikurura ba mukerarugendo, aho baba baje kureba ubuhanga bw'izi nyamaswa kuko ari inyamaswa ishobora gutekereza, kandi ikaba yakurira ibiti biyoroheye cyane, ugereranyije n'izindi nyamaswa, ni byiza ko tubungabunga inyamaswa kuko ari ingirakamaro.

Inguge ni ikinyabuzima kifitemo ubushobozi bwo kuba cyakora nk'abantu, kikabasha kuba cyakurira ibiti bitandukanye kandi iki kinyabuzima kigira uruhare cyane ku bihugu, kuko cyifashishwa mu gukurura ba mukerarugendo, bigatuma batanga amadovize, ni byiza ko tubungabunga ibi binyabuzima.

Ahantu nyaburanga ubona ko hari inyamaswa y'inzovu nini cyane, aho ari inyamaswa nini ugereranyije n'izindi nyamaswa kandi ikaba ikurura ba mukerarugendo baje kureba ubwiza bwayo ndetse n'ubunini bwayo, ni byiza ko twita kuri izi nyamaswa kugira ngo zibashe kutwinjiriza amadovize ndetse n'ubundi bukungu ku buryo bw'Igihugu ndetse n'abaturage muri rusange.

Ikigo cy'amashuri cyakira abanyeshuri batandukanye kugira ngo bahabwe ubumenyi, bihugure maze bazabashe gukora akazi kabo bafite ubumenyi buhagije ku byo bagiye gukora, ni byiza ko abana bose bagana ishuri kugira ngo igihugu kigire abantu bajijjutse.

Inyoni ifite amabara meza ubona itangaje iba mushyamba, aho ikurura ba mukerarugendo baje kureba ubwiza bwayo. Ni byiza ko tubungabunga ibi biguruka kuko ari ingirakamaro kurengera ibidukikije kandi zidufasha mu kutwinjiriza amadorari.

Inzovu ni inyamaswa nini cyane ugereranyije n'izindi nyamaswa kuko ikurura ba mukerarugendo benshi ugereranyije n'izindi nyamaswa kandi ikaba yifitemo imbaraga zidasanzwe kurusha izindi nyamaswa, ni byiza ko tubungabunga izi nyamaswa kugira ngo dukomeze gusigasira ibidukikije.

Imbwa ni inyamaswa nziza cyane kuko igira uruhare runini cyane kurinda umutekano w'ingo nyinshi ndetse ikanifashishwa mu gukora ubushakashatsi ku bintu bitandukanye, niyo mpamvu tugomba kubungabunga imbwa.

Ubwoko bw'ibinyabuzima bufite akamaro kanini ku buzima bw'abantu ndetse n'igihugu muri rusange, aho usanga bikurura ba mukerarugendo baje kureba ubwiza bwabyo kandi bikaba bigira n'uruhare mu kurinda no kubungabunga ibidukikije. Ni byiza ko tubungabunga ibi binyabuzima.

Inyoni y'amabara atandukanye, ubona ifite ubwiza butangaje, aho ikurura ba mukerarugendo baje kureba ubwiza bwayo, ni byiza ko dusigasira ibidukikije kugira ngo dukomeze kwiteza imbere ndetse no guteza imbere igihugu muri rusange.

Umugabo ubona ko ari gukinisha inkende, inkende ni inyamaswa itangaje cyane, aho ikora nk'abantu kandi igashobora kwiruka ku biti mu buryo budasanzwe, aho zihuruza ba mukerarugendo kugira ngo baze kureba ubuhanga bwazo, ni byiza ko tubungabunga inkende.

Inkende ni zimwe mu nyamaswa nziza cyane zikurura abantu baje kureba ubuhanga bwazo n'uburyo zishobora kugenda hejuru y'ibiti kandi zikagenda neza cyane kandi ku muvuduko mwinshi cyane, ni byiza ko tubungabunga izi nkende kuko zikurura ba mukerarugendo.

Inyamaswa zitandukanye harimo impara ndetse n'izindi nyamaswa ziba mu ishyamba, ari inyamaswa zikurura ba mukerarurugendo kubera ubwiza bwazo, ni byiza ko tubungabunga izi nyamaswa turwanya abantu barinda izi nyamaswa ba rushimusi, aho baba bashaka kwica izi nyamaswa.